Abanyeshuri biga mu ishuri ry'irerero bafite ibikoresho bigiye bitandukanye bibafasha kugira ubumenyi bumwe na bumwe biyungura babasha kuvumbura ibintu bitandukanye, bakabyigiraho bikazabafasha kumenya n'ibindi bigiye bitandukanye.

Mu rwego rwo guteza imbere uburezi bw'igihugu, ni byiza ko abana boherezwa ku mashuri bakiri bato, kugira ngo bige kumenyerana n'abandi ndetse bagire n'ubumenyi buke na buke bagenda biyungura, bazabashe kuba abantu bakomeye, bazabashe no kugira icyo bamarira igihugu muri rusange.

Ni byiza ko abanyeshuri bakorera hamwe, bagafashanya mu masomo agiye atandukanye, bakungurana ubumenyi, bagatezanya imbere kugira ngo batsinde amasomo, amwe n'amwe biga mu ishuri, bayatsinde neza.

Leta y'u Rwanda yagaragaje ko kugira ngo abana batezwe imbere mu bigendanye n'ikoranabuhanga, bagomba kugira utumashini duto bagomba gukoresha kugira ngo babashe kwiyungura ubumenyi, mu kugira ngo bazabashe kumenya gukoresha, ibikoresho bya murandasi.

Icyapa kigizwe n'amabara y'ubururu cyandikishijemo amagambo y'umweru, kerekana ko hari ahantu ho guparika imodoka cyangwa moto cyangwa se ushobora kuza gutegera igihe ahantu runaka, ibi kandi byanafasha abagenzi kumenya ibyerekezo berekezamo.

Ikigo cy'amashuri cyubatswe n'amatafari ahiye, gifite ikibuga imbere yacyo abanyeshuri bidagaduriramo bakabasha kuruhuka mu mutwe. Ibi kandi bifasha abanyeshuri kwishimisha ndetse no kubona ko gukina ari ingirakamaro.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye ifite intoboro, bigaragara ko ari igikoni gitekerwamo kigaburira abana biga ku ishuri runaka, ibi kandi bifasha abateka ko imyuka y'imyotsi isohoka.

Ishuri ririmo ibikoresho bitandukanye harimo intebe, ikibaho akabati ndetse n'ibitabo, bifasha abanyeshuri kwiga mu buryo bwiza, biga basoma bandika ndetse banareba amashusho yashushanyijwe.

Abanyeshuri bambaye impuzankano zitandukanye, bari mu nama, bari kubwirwa amabwiriza agiye atandukanye yo kugira ngo bige amasomo yabo neza, kandi bazayatsinde ku kigero gishimishije.

Isomo ry'imibare ni isomo rifasha abanyeshuri kumenya kubara, gusoma imibare, ndetse uwize iri somo ashobora kuzaba umushoramari akagira icyo amarira igihugu cyangwa se akazagira imirimo yihangira, ikazateza imbere abaturarwanda muri rusange.

Icyapa cyiza kigizwe n'amabara y'umuhondo, ubururu, umukara, n'umweru, n'icyatsi, iki cyapa kandi kiragaragaza amahame y'intore, indangagaciro, na kirazira by'abanyarwanda.

Abanyeshuri bavuye mu modoka bafite amamatera, amavalisi, ibikapu ndetse bambaye n'impuzankano zigiye zitandukanye. Bavuye ku mashuri bagana iwabo mu ngo batashye bavuye ku mashuri bavuye kwigaho.

Ibitabo bigira amoko agiye atandukanye. Ibi kandi bifasha abantu basura inyubako zibamo ibitabo, kubona ibyo basoma, bakiyungura ubumenyi bugiye butandukanye. Bakazabasha kugira icyo bimarira, binyuze mu bumenyi bagiye bakura muri ibyo bitabo.

Inyubako nziza cyane, yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere, akaba ari inyubako y'ishuri. Harimo intebe zigiye zitandukanye, abanyeshuri bifashisha bari kwiga, kugira ngo baze kubona ukobandika, kandi bazabashe no gutsinda amasomo yabo.

Abanyeshuri bahetse ibikapu bambaye impuzankano bajya kwiga, bajya gutega imodoka zibafasha kugera ku mashuri bigaho, kugira ngo bazagire ubumenyi bunguka buzabateza imbere mu gihe kiri imbere bakagira ibyo bageraho.

Icyumba cy'ishuri kirimo abanyeshuri bambaye impuzankano, bambaye amashati y'umweru, amajipo n'amapantaro bya kake, barimo bariga isomo runaka, ribafasha kwiyungura ubumenyi butandukanye.

Icyapa cyiza kigizwe n'amabara agiye atandukanye, harimo ubururu, umukara, umuhondo. Kikaba kiri kugaragaza ko bari kwizihiza isabukuru y'imyaka makumyabiri n'umunani. Iki kigo kandi gitanga ubumenyi bwiza.

Inyubako nziza igeretse kabiri. Yubakishije amategura, ifite icyapa imbere yayo cy'umweru, ifite indabo nziza z'umuhondo, iyi nyubako kandi iramutse yigiyemo abanyeshuri, baziteza imbere bakagira icyo bamarira igihugu.

Inyubako nziza zirimo ibyumba by'amashuri ndetse n'amacumbi yo kuraramo, zigizwe n'amabati atukura ndetse n'amarangi y'umuhondo, bikoreshwa mu gutaka ikigo cyabo kugira ngo bigire ahantu hasa neza.

Microscope ni igikoresho gikoreshwa kwa muganga ndetse n'ahandi hatandukanye, mu kureba udukoresho duto duto tutaboneshwa ijisho cyangwa indwara runaka zafashe umuntu runaka cyangwa se agasimba gato gashobora kuba ahantu runaka cyangwa se imyanda ishobora kuba iri mu mazi cyangwa se ahandi.

Icyumba cyiza kigizwe n'ibikoresho bitandukanye, harimo intebe, ikibaho bikoreshwa mu kwiga, bifasha abanyeshuri kwiga amasomo agiye atandukanye kandi bakayiga bicaye ahantu heza.

Ni byiza ko abaturarwanda biga ibikoresho bya murandasi kugira ngo babashe kumenya amakuru agezweho cyangwa se kumenya akazi bashobora gukorera kuri izo murandasi, ikindi kandi murandasi zishobora gufasha abaziga kugira ubumenyi bugiye butandukanye.